Inyubako izwi nka botike irimo etageri ihuriyemo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse na kontwari iteretseho avoka, imineke, imigati ndetse n'amandazi.

Ahantu hari ibyapa bya BRD, A&M, ishusho ya Perezida Paul Kagame n'abagabo babiri bahana umukono.

Iyi shusho iragaragaraho abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye udupfukamunwa ndetse bahagaze imbere y'inyubako nini.

Ibirango byinshi by'ibyapa biri ahantu hagiye hatandukanye ku miryango irimo ihuriro ry'abantu byanditseho amakoperative.

Uruhurirane rw'ibinyobwa biri hamwe ahazwi nko muri bare, harimo ibirango by'inzoga ya Heinken, ndetse n'izindi nzoga zitandukanye.

Inzu itangirwamo ibinyobwa bitandukanye ibisindisha n'ibisindisha, ikaba ihuriramo abantu benshi babikeneye kugira ngo.

Inzu y'abacuruzi irimo abaguzi cyangwa se abagenda bashaka imyambaro myiza yo kwambara, bareba umusaza ubereka imyenda nk'umupira w'umweru afashe mu ntoki, na ho inyuma yabo hakaba hamanitswe ibikoresho gakondo bizwi nk'uduseke.

Utujerekani duto ndetse n'utunini n'ibindi bicuruzwa birimo nk'amavuta, fanta n'amacupa ya plastike ndetse n'imyambaro, n'inkweto za kamambiri bimanitswe hamwe muri botique.

Ibicuruzwa bizwi nk'isabune y'ifu ya sanirayiti, omo yifashishwa ifura imyenda cyangwa se ukora amasuku hasi mu nzu.

Inyubako nini, iteraniramo abantu benshi batandukanye, y'urusengero. Bahujwe no gusenga imana bigira hamwe n'ijambo ry'imana.

Tente izwi nk'ihema irinda abantu imvura cyangwa se izuba ryinshi, yicayemo abantu batandukanye, igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Inyubako ngari, n'ihuriro ry'abantu benshi bari hamwe muri iyo nyubako, bafite ikibagenza, baje gutega amatwi cyangwa kumva, bitewe.

Inyubako ngari izwi nka hoteli, iteyemo intebe nziza zitandukanye mu mabara atandukanye ndetse ikagera n'umutako ku cyapa k'igikuta.

Iyi foto iragaragaza inyubako nini cyane, iyo nyubako ni hoteri, hoteri ni inzu itegurirwamo amafunguro ndetse ikagira n'amacumbi.

Iyi foto iragaragaza igitanda gisashwe neza cyo muri hoteri, kiriho imisego itatu itandukanye, iy'umweru, umukara ndetse n'amashuka y'umweru n'akabati kuruhande k'umukara.

Isoko rihuriwemo n'abantu benshi ry'imbuto ririmo amabase bifashisha batwara ibicuruzwa y'ubururu ndetse atukura n'ibitebo bya palasitike biri mu mabara y'icyatsi.

Iyi ni ishusho igaragaraho ibicuruzwa byinshi, bihambiriye neza ni amashuka ari mu mabara agiye atandukanye, hari ibikiri mu masashe byaranguriwemo.

Ikusanyirizo ry'ibicuruzwa biri hamwe nk'isabune, umuceri, amavuta ndetse n'amakaye, biteretse hejuru ya shitingi y'ubururu.

Iyi shusho iragaragaraho inyubako. lyo nyubako ni resitora resitora isukuye isa neza itegura amafunguro igatanga n'ibyokunywa bitandukanye.

Inzira nyabagendwa izwi nk'umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse uba ufite n'akandi kayira gato kanyurwamo n'abanyamaguru kaba iruhande rwawo.

Umuhanda nyabagendwa, uri kunyurwamo na moto itwaye umugenzi. Ni muremure ntabwo urimo amakorosi ndetse uri kugendwamo n'abandi bantu b'abanyamaguru.

Umuntu usunika igare ihetse indobo ndetse agendera mu muhanda w'amabuye, inyuma ye hari imodoka ndetse n'umutaka wa MTN.

Ibinyabiziga bizwi nka moto bitwara abagenzi, byicaweho n'abamotari ariko banyura mu nzira irimo ikiza cy'amazi menshi, ababuza gutambuka neza.

Moto igenda mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, irenze ahambukirwa n'abanyamaguru. Itwawe n'umumotari wambaye kasike itukura ndetse n'ikote ritukura.

Isangano ry'umuhanda, ririmo moto ebyiri zitwawe n'abamotari bajya mu cyerekezo kimwe, mu gushaka abagenzi, bambaye kasike zitandukanye mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu.